Dusigaye tuvuga ngo nta foto nta cyabaye, ni yo mpamvu inyuma y'igikorwa runaka, haba hagomba gufatwa ifoto y'urwibutso, mu gihe hari nk'inama runaka yabaye cyangwa igikorwa runaka, kugira ngo tubihamirize n'abandi ko aba bantu mu by'ukuri bahuye.

Nk'uko n'indi mishinga yose iterwa inkunga, birakwiye ko n'imishinga ijyanye n'ubuzima, na yo yaterwa inkunga kugira ngo ibashe gukora neza uko bikwiriye.

Birakwiye ko dukora ubukangurambaga, kugira ngo tubashe gusobanurira isi n'abayituye, uburyo abantu bagira ubuzima bwiza kandi na bo ubwabo babigizemo uruhare.

Muri iyi misi ya none hasigaye haterana inama nyinshi ziganira Ku buryo abatuye Isi bagira ubuzima bwiza, by'umwihariko noneho ugasanga izo nama ziba ari n'inama zitabiriwe n'ibihugu birenze kimwe, ngo bifate umwanzuro urambye Ku kibazo cy'abantu ku Isi.

Isi n'abayituye bakwiriye kugira ubuzima bwiza, ni muri urwo rwego ibikorwa byo gukwirakwiza amazi meza bikataje. Amazi meza ni ubuzima bwiza.

Ukwiriye kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko ni kimwe mu bintu byugarije Isi n'abayituye muri ino minsi ya none. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku bwonko bwacu ndetse n'imikoere yabwo mu gihe tubonye hari ibitagenda neza tukaba twasaba ubuvuzi.

Twibuke gushishikariza Isi n'abayituye kuboneza urubyaro kuko bigaragara abantu bamaze kwiyongera kandi tujye twibukiranya y'uko ubutaka n'umutungo kamere Isi ifite byo bitiyongera.

Dukomeje kugenda tubona inyubako zicuruza imiti zizwi nka farumasi, aho ubona yuko iki ari igikorwa kimaze gutera imbere, gisigaye gikorwa ku rwego rushimishije.

Mu rwego rwo kugira ngo tuyobore abantu neza dukureho urujijo, dukwiriye kujya twandika ahagaragarira buri muntu wese ibyo dukora, kugira ngo tubashe guha abatugana serivisi nziza, kandi nitunarangira abantu bijye byoroha.

Nitubona ibikwiriye cyangwa ibigenda neza tuzabishime, kandi nitubona n'ibigenda nabi tuzabigaye kugira ngo bizakosorwe.

Ku bantu bakora siporo hari imiti yabo yabugenewe, bitari ukuvuga ngo wagiye kwa muganga wenda uhura na muganga cyangwa na Dogiteri, ahubwo hari ibiribwa warya bigafasha umubiri wawe gukora neza mu gihe ukora siporo.

mureke dushishikarize abantu bakora siporo, yaba abakora siporo by'umwuga cg bitari ibyumwuga, kwibuka gukoresha ibinini bita stopain cyangwa se ibinini bigabanya uburibwe. mugihe bakoze siporo bagahura n'uburibwe wenda butewe n'imvune cyangwa ikindi kintu runaka

Hari igiti bikoreshwa nk'umuti gakondo kitwa umuravumba aho abantu bagikoresha bahekenya ibibabi byacyo. Kikaba kizwiho kuvura indwara zitandukanye zirimo n'inkorora cyangwa se amagiripe.

Ese mwari muzi y'uko ya miti twajyaga dukoresha ya gakondo tuyinywa ari ibyatsi cyangwa se tuyisiga, ubu yaje mu isuru nshya aho yavuguruwe icishwa mu nganda zagugenewe ikaza ifunze kandi noneho inizewe kuburyo yagirira umuntu umumaro.

Iyo bavuze imiti gakondo: Ni ibimera bitandukanye akenshi dusanga mu mashyamba, by'umwihariko aya kimeza, bahira bakabiha umuntu wenda akabinywa cyangwa akaba yabyisiga, kandi indwara yari arwaye ikaba yakira.

Mu miti gakondo, hashobora kubamo iyo dufata nk'ibinini, iyo twisiga nk'amavuta, cyangwa se bikaba n'ibiribwa, nk'urugero nk'imineke cyangwa se izindi mbuto runaka, ibyo bikaba byadufasha kandi bikagirira umubiri wacu akamaro.